Iri ngiri rero akaba ari itsinda ry'abagabo, uko bigaragara ni abagabo bambaye neza, babiri muri bo bambaye amadarubindi. Hano kikaba ari ikigo cyitwa RURA na cyo gikorera mu Rwanda, umwe muri bo akaba afite murandasi, bakaba bari kunywa n'amazi y'Inyange.

Uyu nguyu akaba ari umugabo wambaye amadarubindi gusa n'inyuma ye hari abandi bagabo. Uyu nguyu akaba ari kureba imbere, umwe ashakaga kuba akorera iki kigo cy'icyapa kimuri imbere, akaba ari kwinywera amazi y'inyange amazi meza cyane.

Iringiri akaba ari itsinda ry'abantu ry'abagore n'abagabo bicaranye za mudasobwa imbere yabo barimo baraganira gusa imbere hari usa nkaho yicaye mu cyerekezo kitarikumwe n'icyabo baburana bafite ibyo niwe ubahagarariye.

Ari umuhanda n'umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga, abanyamaguru hano twari turi kubona ikinyabiziga cy'ikigo gishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda haruguru hari icyapa cyanditseho viziti Rwanda.

Abangaba akaba ari abagabo babiri bahagaze ahantu hayugwamo n'abanyamaguru hanoba bari mu karere ka nyarugenge ahitwa nyabugogo, hakurya karundi bikoreye umufuka hakaba n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Iki ngiki rero akaba ari igikoresho gishinzwe kwikorera ibintu biremereye, harimo ibinyobwa harimo n'ibindi bigiye bitandukanye cyane cyane ibyitwa inzoga, bagenda bakuzanya inzoga bakazishyira ahantu hamwe iki kikabyikorera.

Iki ngiki akaba ari icyapa gikoreshwa mu muhanda, kikaba cyifashishwa cyangwa kikaba cyerekana ahantu hari kubera ibikorwaremezo runaka byo kubaka umuhanda, kugira ngo niba uhageze, genda gake kuko hari bikorwa remezo biri kuhabera.

Iki ngiki akaba ari ikigo cyangwa ni inyubako wagirango ngo ni uruganda, ni hanini ntabwo yaba ari inzu yo guturamo, uru rushobora kuba ari uruganda, bitewe na biriya bintu biri hejuru biba byikaraga...

Uyu nguyu akaba ari umuhanda, hano hakaba hari umwanya wahariwe abanyamaguru, abanyamaguru bashaka kwambuka. Hariya hakurya rero hakaba hari inyubako isa umweru, hino hakaba hari icyapa cy'itumanaho rya Airtel.